Umukobwa arahagaze arabwira abana uburyo butandukanye ndetse arabigisha imikino itandukanye, abana iyo biga neza bibafasha gukura neza mu bwenge no mu gihagararo.

Ibishushanyo byifashishwa n'abana byiganjemo inyuguti, imibare n'ibindi bishushanyo by'amatungo, bigafasha abana mu myigire yabo, abana batoya iyo biga bareba ibishushanyo bibafasha gukura mu bwonko.

Abana batandukanye batoya bariga bakoresheje ibikinisho, iyo abana biga bibafasha mu gukuza ubwenge bwabo, haba mu mibanire n'abandi bityo bagakura neza mu gihagararo no mu bwenge.

Abana batandukanye barigishwa uburyo butandukanye binyuze mu mikino, abana batoya iyo bahuriye hamwe mu rugo mbonezamikurire ni byiza kuko bibafashakura mu bumenyi no mu gihagararo.

Abana batandukanye bariga bakoresheje ibishushanyo ndetse n'ibikoresho byabugenewe, iyo abana batoya biga bakoresheje imfashanyigisho zitandukanye bituma bunguka ubumenyi.

Abana batarageza imyaka myinshi yo kujya mu mashuri bajya mu rugo mbonezamikurire aho biga ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye n'uko babaho, no kubana n'abandi n'imikino itandukanye ibafasha kwagura ubwenge bwabo.

Umubyeyi aratoza abana mu rugo mbonezamikurire ibijyanye no gukina no kuririmba, iyo abana bakiri batoya batojwe kuba hamwe bakungurana ibitekerezo, bibafasha gukura neza.

Abana batoya barakora imikino itandukanye, iyo abana biga bakanakina bibafasha gutekereza neza bagakura neza mu gihagararo no mu bwenge, bityo bakazagira ubuzima bwiza bagateza imbere imiryango yabo.

Iyo abana batoya bahuriye hamwe, bamwe bicaye abandi bahagaze bakiga bafasha kunguka ubumenyi, abana baricaye bariga kandi bakamenya, iyo umwana yize akiri muto bimufasha gukurana ubwenge.

Abana batandukanye mu ishuri ry'urugo mbonezamikurire ry' abana batoya barahabwa igikoma. Iyo abana biga neza bakanafata ifunguro ryiza bibafasha kubaho neza maze bagakura mu bwenge no mu gihagararo.

Abana batoya barakurikira, bariga neza, iyo abana batoya, biga bibafasha kunguka ubumenyi ndetse no kwagura imitekerereze yabo bityo bakaziteza imbere, bakanateza imbere igihugu cyababyaye.

Imikino itandukanye ikorerwa ku ishuri, ituma abana biyungura ubumenyi butandukanye, bagasabana, bakirinda kuba bonyine bigunze, bityo bigatuma biga neza, bikanabafasha mu mikurire yabo.

Inzu y'ibitabo, aho usanga abantu bajya gusoma ibintu bitandukanye bibafasha kunguka ubumenyi. Iyo abantu biga kugira ngo bakore imikoro yabo neza no gukora ubushakashatsi, bagana amasomero.

Abana iyo basoje amasomo yabo barataha. Iyo batashye basubiramo amasomo; ibyo bize ku ishuri ndetse n'imikoro bakoze, bityo kwiga ni ingirakamaro kuko bifasha abantu kugira ubuzima bwiza bw'ejo.

Abana batandukanye bari ku kigo, barifotoza kandi barishimye. Iyo abana basoje amasomo ni byiza ko bagira ibikorwa bitandukanye bibahuza n'abarezi babo ndetse na bagenzi babo, kuko bituma biyungura ubwenge.

Abanyeshuri iyo basoje kurya barataha, ndetse basoza no kwiga bagataha, iyo abanyeshuri biga cyane bibafasha kwiteza imbere bakabona ubumenyi butandukanye buturutse mu byo baba barize.

Imifuniko itandukanye y'amabara menshi atandukanye, yifashishwa cyane cyane mu mikino itandukanye y'abana batoya, iyo abana batoya bakina bibafasha kunguka ubumenyi no gukoresha ubumenyi bafite basabana na bagenzi babo.

Igikoresho kifashishwa nk'inzogera mu mashuri atandukanye yiganjemo ayo mu cyaro, iki ni igikoresho usanga bafata ibuye bagakubitaho maze abanyeshuri bakamenya ko isaha runaka igeze, yaba yo gutaha, iyo kujya gukina cyangwa se iyindi iyo ari yo yose.

Abana batandukanye bariga, barafata amasomo, bagafata ubumenyi ariko kandi bakanyuzamo bakajya no gukina imikino itandukanye, iyo abana biga banakina bibungura ubwenge bakabaho neza.

Ikigo cy'amashuri aho abana usanga bajya kwigira, bakaharonka ubumenyi butandukanye kandi bakahungukira n'inshuti. Ni ngombwa ko abana biga kugira ngo igihugu cyacu gitere Imbere.

Intebe zitandukanye zifashishwa n'abana iyo bari kwiga bandikaho bakoresheje intoki ndetse barambitseho amakaye hejuru kwiga ni byiza bituma umwana yiyungura ubwenge.

Abana barakora ibikorwa bitandukanye byo gukina, ngo iyo basoje amasomo ni ngombwa ko bagira igihe cyo kuruhura mu mutwe kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umunaniro mwinshi.

Abana babiri bari ku ishuri baravoma amazi yo mu kigega. Aya mazi ni ingirakamaro kuko afasha abanyeshuri mu kubafasha mu bikorwa bitandukanye by'isuku, ariko si byiza kuyanywa kuko ntago aba asa neza.

Umwana ari ku ishuri arareba uko ibintu bimeze hari kandi n'indabyo hari n'ibipine, iyo ishuri rifite indabyo rigaragara neza, maze abahiga bagakomeza gushimishwa nabyo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri, iyo abanyeshuri biga bakoresha ibikoresho bitandukanye birimo irati, isaha, n'ibindi, iyo babikoresha bituma bunguka ubwenge.

Abana batandukanye baraganira ibikorwa bitandukanye, iyo bavuye ku ishuri baricara maze bakumva icyo hagati yabo batekereza. Ni byiza ko abana bahurira hamwe maze bakaganira ibikorwa bitandukanye bibafasha kungura ubwenge bwabo.

Aho abanyeshuri, cyane cyane bakiri batoya batarageza imyaka myinshi bajya kwigira, ubumenyi bw'ibanze burimo gusoma no kwandika n'ubundi bumenyi mu bya siyanse no mu mibanire n'abantu, ku buryo bakura bazi neza ubumenyi muri rusange.

Ibitabo bitandukanye n'amakayi yifashishwa cyane cyane mu myigire bandikamo kandi basoma. Iyo abarimu bategura ibyo bigisha bakoresha amakayi n'ibitabo, kugira ngo babashe gutanga ubumenyi bwiza.

Ikigo cy'amashuri aho usanga abana bigira bagakura ubumenyi, ikigo cy'amashuri cyubatse neza, gifasha abana kwiga neza, ariko iyo cyubatse nabi bituma abana batabona ubumenyi buhagije.

Ikigo cy'amashuri aho abana bajya kwigira ku manywa n'ijoro bakaruhuka, abana kwiga ni byiza kuko bibafasha kubona uburere bwiza bwisumbuye ku bafite n'ubumenyi bwo gukoresha mu gihe kizaza.

Ubwiherero ku mashuri ni ingenzi cyane kuko abana bahura n'ibibazo bitandukanye byo gushaka kwiherera. Iyo bagize ibyo bibazo ni ngombwa ko haba hari ubwiherero bwiza butuma abana batari bugire ikibazo.

Igishushanyo kerekana umwana afite akantu mu ntoki ndetse aho abana bigira hagomba kuba ari ahantu hasukuye kandi hari ibikorwa bibafasha kwiteza imbere mu bumenyi bwabo.

Umwana arava ku ishuri, iyo avuye ku ishuri ni byiza gusubira mu masomo kandi ku ishuri niho hantu akorera ubumenyi butandukanye, burimo ubwo bumenyi busanzwe ndetse n'ubumenyi bw'ishuri.

Umuhanda aho usanga abantu batandukanye haba abajya ku ishuri, haba abavayo, haba n'abandi bantu batandukanye bakoresha ibikorwa bitandukanye byo kugenda.

Imfashanyigisho ya mudasobwa ishushanyije ku gikarito ndetse yashyizwe imbere aho abantu bose bayireba, ni byiza kwigisha hifashishijwe imfashanyigisho nk'ibishushanyo kuko bituma abanyeshuri bumva neza.

Intebe zifashishwa n'abana batandukanye, iyo barimo bariga. Iyo abana biga, ni byiza ko bakoresha ibikoresho bitandukanye, birimo amakaye ndetse n'ikaramu ariko bakagira n'aho kubishyira ndetse n'aho kwicara.

Ikigo cy'amashuri, idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara atatu: icyatsi, umuhondo n'ubururu, hagaragaramo kandi izuba. Ikigo cy'amashuri gifasha abana kurerwa neza, kandi bakiteza imbere.

Kwigira ku bishushanyo ndetse n'izindi mfashanyigisho zitandukanye ni byiza kuko bifasha abantu kwiga neza, iyo wize mudasobwa ni byiza kuko biguha ubwenge bwo gukoresha muri iyi si tugezemo y'ikoranabuhanga.

Amarido ndetse naho abantu bashobora gushyira ibikorwa bitandukanye, by'ibikoresho aho abantu bashobora kwigira ameza ndetse nabo bashobora kubika imyenda, aha naho abantu barara ndetse bagakoresha ibikorwa bitandukanye birimo gusubiramo n'ibindi.

Aho abanyeshuri bakunda kujya gusuzumira ibikoresho bitandukanye mu by'ubuzima, bibafasha gushyira ibyo biga mu ngiro ndetse bikanabaha ubumenyi bwisumbuye ku bwo bari basanzwe bafite.

Abana b'abakobwa babiri bafite ishati y'umweru bafite kandi n'amakaramu mu ntoki barasobanurirana, iyo basoma ibitabo baniga bibafasha kugira ubwenge n'ubumenyi.

Abana b'abakobwa n'abahungu barava ku ishuri, iyo amasomo arangiye usanga bataha mu ngo zabo bityo kwiga utaha bigafasha ababyeyi kuko ubafasha imirimo yo mu rugo ndetse nawe ukagira umwanya wo kwiga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bambaye kandi ibikapu mu mugongo, barava ku ishuri berekeza mu rugo, ni ngombwa ko iyo abanyeshuri basoje amasomo yabo bataha bakajya kuruhuka.

Ingengabihe y'ukuntu amasomo azajya yigwa mu gihe kingana n'icyumweru, uko ibyumweru bizagenda bisimburana, ni aho usanga abarimu bazajya basimburana bigisha abanyeshuri.

Urusengero aho abantu basengera, usanga ari ahantu heza, hahurira abantu benshi, bityo kuhatera ibiti bitandukanye n'ibimera, bituma abantu bahagenderera bagira ubuzima bwiza.

Umwarimu wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'impuzankano y'akazi, ahagaze imbere y'ikigega gifata amazi. Amazi ni meza ku banyeshuri kuko abafasha mu bikorwa bitandukanye birimo isuku n'ibindi.

Abana batandukanye ku ishuri barakora imyiyereko y'imbyino gakondo, iyo abana babona umwanya uhagije wo kuruhuka, bakajya no mu bikorwa bitandukanye byo gusigasira umuco, bituma bakura neza bakunda igihugu cyababyaye.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi, aratanga ibiganiro bitandukanye ku banyeshuri ndetse n'abarezi babo, iyo abanyeshuri n'abandi bantu babona amahugurwa nk'aya bituma bagira ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye baricaye baratega amatwi ibyo umukuru wabo ababwira, abayobozi b'abana ni ngombwa kwigisha abana babo iby'uburere bwiza bikazatuma bibafasha kwiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri aho usanga abana bajyana bajyanwa kwiga bityo bikabafasha kunguka ubumenyi, iyo abana biga neza bibafasha kunguka ubwenge bagateza imbere igihugu cyabo ndetse n'imiryango yabo.

Abana baricaye baratega amatwi amabwiriza ndetse n'amakuru bahabwa n'ababishinzwe, iyo ababishinzwe batanze amakuru ku bana n'urubyiruko bibafasha kubaho neza bagakura neza mu bumenyi no mu gihagararo.

Abana batandukanye bari ku ishuri, baricaye bariga, uburyo butandukanye bwo guhinga imirimo n'ibihingwa bitandukanye, byabafasha kubona ibiryo, no kubona ibindi bibafasha mu mibereho yabo yo ku ishuri.

Ikigo cy'amashuri akenshi usibye ko usanga ari ahantu abanyeshuri bakunze kujya gushaka ubumenyi, ariko haba hari n'ibikorwa bitandukanye by'imikino usanga nk'imikino y'amaboko n'imikino y'umupira w'amaguru aribyo bishyirwamo imbaraga kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana ku ishuri iyo babona ifunguro rihagije bituma biga neza, bakabona ubuzima bwiza kuko nta nzara bagira, bagafata neza nta kibazo cy'ihungabana bafite, iyo utabona ibyo kurya neza uragwingira ndetse ukaba wanahasiga ubuzima.

Abanyeshuri barabyina, bararirimba hari kandi ibikoresho by'umuziki, ni ngombwa ko iyo abanyeshuri basoje kwiga, bahurizwa hamwe mu bikorwa bitandukanye bibafasha kuruhura mu mutwe.

Abana bari hamwe baratega amatwi ibyo ubatoza ababwira, iyo abana biga neza kandi bagakurikira abarezi babo, bibafasha kugira ubwenge n'ubuhanga ndetse bagakura neza mu bwenge no mu gihagararo.

Aho abanyeshuri batandukanye bajya kwigira cyane cyane mu bigo by'abihayimana, usanga abantu babikunda kuko haba disipurine kandi abahavuye bakagira imyitwarire myiza n'ubumenyi bwisumbuyeho.

Ishuri ni aho abana usanga bajya kwigira bakahakura ubumenyi butandukanye, ariko kandi hari n'ikibuga aho bashobora gukinira imikino itandukanye, umupira w'amaguru, imikino y'amaboko n'indi ibafasha kuruhura mu mutwe.

Abana bararirimba hari abacuranzi hari kandi n'ubayoboye hari ibyuma by'umuziki, iyo abana biga bagira n'igihe bakaririmba bityo bikabafasha gutuza mu mutwe, no gukurikira amasomo yabo neza.

Ikigo cy'amashuri aho usanga abantu batandukanye bajya kuvoma ubumenyi. Iyo abantu bashaka kwiyungura ubumenyi ku bintu bitandukanye bajya kwiga bityo ibyo bize bakazabyifashisha mu gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere.

Umunyeshuri arakora ikibazo imbere arandika akoresheje ingwa afite n'agapapuro mu ntoki aho ari kubisoma, iyo umwana yiga neza bimufasha kugera ku iterambere yifuza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, arabwira abandi ibyo bakwiye kwitaho. Ni byiza ko abantu bumva ibitekerezo by'abandi kugira ngo tubashe kwiyungura ubumenyi.

Icyumba cy'ishuri ni aho usanga abantu bigira, bakura ubumenyi butandukanye, bikabafasha mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima, aho usanga nyuma y'ubuzima bw'ishuri bakoresha ubu bumenyi bahawe mu gushaka amafaranga.

Ikigo cy'amashuri ni aho usanga abana bigira, bikabafasha mu kubaho neza mu buryo bw'imgire bunguka ubumenyi butandukanye bakomora ku barezi babo ndetse bibafasha no kubaho bisanzuye bakaziteza imbere.

Abantu b'urubyiruko batandukanye barakina imikino y'amaboko, uyu ni umukino bakina bafata umupira bawurenza bongera bawurenza, iyo uguye hasi umwe aba akoze ikosa.

Ikibaho gisa icyatsi, abanyeshuri bigiraho. Umwarimu yifashisha iki gikoresho aha abanyeshuri ibyo kwiga, kandi bigatuma na bo bafata vuba. Bifasha mu gutanga ubusobanuro, bityo abanyeshuri bakumva vuba.

Ikigo cy'amashuri ni ahantu usanga abantu bajya gukura ubumenyi butandukanye, bwiganjemo ibyo biga ndetse bikazanabafasha mu kubaho neza, iyo biga neza bakaba abahanga bibafasha mu kubaho mu buzima bwo hanze.

Abana batandukanye bari ku ishuri bari hamwe barafata amabwiriza ajyanye n'uburyo bwo kunoza imyigire yabo, iyo abana bari ku ishuri bagahurira hamwe bibafasha gukora neza no kwiga neza.

Abanyeshuri bari mu isomero barunguka ubumenyi butandukanye. Iyo abana bakoresha isomero neza bibafasha kubona ubumenyi butandukanye haba mu bushakashatsi bwabo, haba mu gukora imikoro baba babahaye, n'ubundi bumenyi butandukanye.

Aho abanyeshuri bigira, usanga ari ahantu heza, hatuma abanyeshuri biga neza, bigafasha abarezi babo kubaha ubumenyi bwiza. Iyo abanyeshuri biga neza, bibafasha gutera imbere.

Ikigo cy'amashuri kirengera ubuzima bw'abana, ndetse kifasha n'abana bafite ubuzima bafite ubumuga bwo kutumva kwiga neza, abana bose n'abana nk'abandi bakwiye kwiga bose.

Ikigo cy'amashuri ni ahantu abana batoya n'abandi bantu babyifuza bajya bakiga bakunguka ubumenyi, bikabafasha mu gukora ibikorwa bitandukanye, mu buzima busanzwe bakazabaho neza, kandi bakabeshaho n'imiryango yabo.

Umuntu wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara ari mu isomero, mu isomero ni ahantu heza aho abantu bashaka kwiyungura ubumenyi bajya kubushakira kubera ko basoma amakuru atandukanye, bikabafasha mu kuzamura ubumenyi bwabo.

Umwarimu arasobanurira abanyeshuri ibijyanye n'uko mudasobwa ikora, iyo abana biga ariko bakoresheje ikoranabuhanga, bibafasha kugira ubumenyi bwisumbuye imyigire yabo ikoroha kandi ikagenda neza.

Abana batandukanye bararirimba ndetse hari umugore ubayoboye. Iyo abana basoje amasomo ni ngombwa ko baririmba cyangwa bagakora indi mirimo ibafasha mu kuruhura mu mutwe.

Abana batandukanye, barigira kuri mudasobwa, bityo bikabafasha kwiyungura ubumenyi, iyo abana biga, bakigira kuri mudasobwa, bibafasha guteza imbere ubwenge bwabo ndetse n'ikoranabuhanga.

Mu bigo by'amashuri byinshi usanga hari ibibuga by'imyidagaduro, aho usanga hari ibibuga bitandukanye bikinirwamo umupira w'amaguru, imipira y'intoki n'ibindi, bigafasha ababikora kugira ubuzima bwiza.

Abana batandukanye barakora ibikorwa byo gukora akarima k'igikoni. Iyo abana bigishijwe imirimo nk'iyingiyi hakiri kare, bituma bakura neza bihangira imirimo kandi bafite ibitekerezo byinshi byo kubaho.

Abantu batandukanye bariga uburyo bwo gushyira ubumenyi mu ngiro, iyo ufashe ubumenyi ufite wahawe mu ishuri ukabukoresha mu buzima bwo kubishyira mu bikorwa bituma wiyungura ubwenge bwinshi.

Abanyeshuri batandukanye bari ku murongo umwe barahabwa inyigisho n'uwabihuguriwe. Iyo abana bakiri batoya bahawe ubumenyi babafasha mu myigire yabo kandi bagatera imbere.

Aho abarimu bakoresha bandika ku kibaho, bituma abana bagira ubwenge kuko ibyo biga babasha kubisobanurirwa ndetse na mwarimu bikamufasha gutanga amasomo ye neza.

Ahantu abana bigira ni ahantu hagomba kuba hafite isuku. Ariko kandi aho abarimu nabo bakorera ni ahantu usanga hari ibikorwa bitandukanye birimo ibitabo, aho bicara, n'ibindi.

Umusore aratanga ikiganiro ku banyeshuri, kigamije kubungura ubumenyi mu mitekerereze yabo. Iyo abanyeshuri babona ibikorwa bitandukanye bikorwa n'urubyiruko, bituma na bo bagira icyizere cyo gukora neza.

Ibyumba by'amashuri bitandukanye, aho usanga abana bigira, ababyeyi bakajya kubasura ku ishuri. Iyo ababyeyi basura abana babo ku ishuri, bituma biyungura ubumenyi, kandi bituma barushaho gutera imbaraga maze bakiga neza.

Umugabo wambaye ijire y'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, arigisha abanyeshuri bicaye hasi ku ngingo zitandukanye zerekeye ubuzima. Ni ngombwa kwigisha abana kubaho no gukoresha neza ibyo bahabwa mu ishuri mu buryo bw'ingirakamaro.

Abanyeshuri batandukanye barakora ibikorwa bitandukanye byo gusuzuma ibyo biga, iyo wiga ibintu ukabishyira no mu ngiro bigufasha kugira ubwenge bwisumbuyeho, bityo no kubikora mu buzima busanzwe bikakorohera.

Icyumba kigari kirimo intebe nziza, aho abantu bashobora kujya bagakorera inama, bakungurana ibitekerezo bitandukanye ku bikorwa bitandukanye byaba iby'ubuzima, uburezi, ubuhinzi n'ibindi.

Ahantu hahurira abanyeshuri usanga hari amacumbi, ayo macumbi ni yo abanyeshuri bifashisha bagakora imikoro yabo, bakarara neza bityo bagakomeza amasomo yabo nta nkomyi.

Aho abantu batandukanye baba, ni ngombwa ko abantu biga baba ku ishuri bagira ahantu heza ho kuba, kuko bibafasha kuruhuka no kwita ku byo biga neza.

Urubyiruko ruriga ku mishinga itandukanye yo kwiteza imbere. Iyo urubyiruko rwicaye, rukabona umwanya wo kwisanzura no gutanga ibitekerezo, bituma babona imishinga itandukanye yabafasha kwiteza imbere.

Urubyiruko rutandukanye ruri mu mahugurwa atandukanye, rurafata ubumenyi bwarufasha mu kwiteza imbere, iyo urubyiruko ruhuriye hamwe rugafata ubumenyi ku bintu bitandukanye birufasha kwiteza imbere.

Isomero aho usanga ibitabo bitandukanye, ni ahantu abanyeshuri n'abarimu n'abandi bantu bashaka ubumenyi butandukanye bajya bakiga bakamenya, bagashakashaka bikabafasha mu masomo yabo ya buri munsi.

Akenshi inyubako y'ishuri usanga ifite icyumba abayobozi bakoreramo, iyo abanyeshuri cyangwa abandi bantu babishaka, bashaka serivise zitandukanye z'uburezi cyangwa izindi zitandukanye, bakahagana, bagafashwa.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abanyeshuri mu gushyira mu bikorwa ibyo biga, iyo abanyeshuri bafite ubumenyi buhagije bituma bagira ibikorwa byiza n'iyo basoje amasomo.

Ku kigo cy'amashuri akenshi usanga hari amacumbi yagenewe abanyeshuri biga babayo, bityo bikaborohereza mu myigire yabo bakayihifashisha bakora ibikorwa by'amasuku no kuruhuka.

Abanyeshuri barakora ibikorwa byo gusuzuma ibyo biga bitandukanye, iyo abanyeshuri basuzuma ibyo biga bagashyira ubumenyi biga mu ngiro, bituma barushaho kumenya ndetse no guteza imbere ubwenge bwabo.

Ishyamba rya Arboretum ni ishyamba riherereye mu Karere ka Huye, iruhande rwa Kaminuza y'u Rwanda, ryifashishwa cyane n'abanyeshuri biga ibijyanye n'amashyamba, gukora ubushakashatsi butandukanye.

Abantu batandukanye, barakora ubushakashatsi, bariga, barasoma ibitabo kandi bakanashaka amakuru kuri murandasi, mu buryo wifashishwa mudasobwa. Iyo bakoresheje ibi bintu, bibafasha kunguka ubumenyi bwinshi.

Inyubako zitandukanye zigirwamo n'abana ndetse hari kandi n'amacumbi abanyeshuri babamo, hari kandi n'umuhanda wifashishwa mu kugenda cyangwa se mu gukoreshwa n'abantu mu ruva n'uruza rw'abantu.

Inyubako z'amashuri, zifasha abana cyane cyane bageze mu mashuri makuru kwiga, iyo abana babona aho bigira neza, bituma bunguka ubumenyi kandi bikoroshya imyigire yabo.

Icyumba cy'ishuri kiba kirimo intebe n'ameza, aho abana iyo bari kwiga bakoresha izo ntebe biga, ndetse na mwarimu agakoresha ayo meza abasobanurira. Iyo wiga neza, ubaho neza.

Ikibuga gikinirwaho umukino w'amaboko itandukanye, ni ngombwa ko abanyeshuri iyo basoje imirimo yabo yo kwiga, bagira n'akanya wo kwisanzura bidagadura kugira ngo baruhure mu mutwe.

Ikigo cy'amashuri akenshi usanga kigira aho abantu bakarabira ndetse bakanavoma amazi atandukanye yo kwifashishwa mu bikorwa by'isuku birimo gukaraba intoki, kumesa imyenda n'ibindi bikorwa by'isuku bitandukanye.

Ikigo cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro, ishami rya Huye, aho rifasha abanyeshuri batandukanye, ibikorwa bitandukanye byo kumenya ndetse no gushyira ibyo biga mu ngiro.

Ahantu hari amashuri atandukanye, usanga hari n'inyubako y'ubuvuzi, aho abanyeshuri bagize ikibazo gitandukanye cy'ubuzima, bajya kwivuriza. Bityo bakagira ubuzima bwiza n'imyigire yabo ikagenda neza.

Imodoka itwara abanyeshuri bo ku ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda, aho usanga rubafasha mu bikorwa bitandukanye by'ingendoshuri, kujya mu bindi bikorwa nk'umuganda n'ibindi.

Uburiri abantu bararaho, hari kandi amarido, hari ibitanda cyiza, hari utubati, ibi byose bifasha abantu babukoresha kubaho neza, bakaruhuka, bagakora ibikorwa byabo bitandukanye byiganjemo by'imyigire n'ibindi.

Mu bigo by'amashuri akenshi uba usanga hari inyubako ikoreramo Ubuyobozi bw'icyo kigo. Ubuyobozi bw'ikigo ni aho usanga batanga serivisi zitandukanye z'Imiyoborere, abafite ibibazo bakabikemurirwa.

Inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa by'uburezi bitandukanye, iyo abana biga neza bituma batera imbere mu gihe kizaza, bityo ubuzima bw'igihugu bukazagenda neza.

Ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri batandukanye bahurira bakavoma ubumenyi butandukanye bubafasha guteza imbere imyigire yabo, ni ngombwa ko abantu biga kuko kwiga ni byiza bituma tugera ku iterambere twifuza.

Aho abanyeshuri batandukanye bakorera ubushakashatsi, iyo basoje amasomo bahaza kwiyungura ubumenyi. Iyo abanyeshuri biga neza banashyira mu bikorwa ibyo biga, bibafasha kugira ubumenyi buhagije.

Abantu batandukanye barahurira hamwe mu bikorwa bitandukanye, byo kwiteza imbere, iyo abantu bumviye inama, bibafasha mu bikorwa byo kwiteza imbere, bunguka ubumenyi ndetse n'ibindi byabafasha mu buzima bwabo.

Uburiri bubiri bushashe neza buriho umusego, hari kandi n'akabati ko kubikamo ibikoresho bitandukanye, iyo icyumba ari kigari, abakirimo bibafasha kuryama neza bakaruhuka, bakirinda imihangayiko, bakiga neza.

Aho abanyeshuri bigira usanga ari ahantu hasa neza cyane, hari indabo zitandukanye kandi bigafasha mu kubona umwuka mwiza kw'abo banyeshuri, bikabafasha mu myigire myiza, indabo n'ibyatsi muri rusange bikurura umwuka mwiza.

Abantu batandukanye bahuriye hamwe, barigira hamwe uburyo butandukanye bwo guteza imbere uburezi, iyo abantu bahuriye hamwe bakungurana ibitekerezo ku bintu runaka, bituma icyo kintu bunguranyeho ibitekerezo bitera imbere kandi nabo bakagera ku iterambere bifuza.

Ahantu hacururizwa imiti itandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi ibihingwa ndetse n'amatungo bihura n'indwara zitandukanye. Ni byiza ko tugana ababihuguriwe maze bakaduha inama z'ukuntu twabyitaho.

Ikigega cya kaminuza y'u Rwanda cyibika amazi yabugenewe, akoreshwa ibikorwa bitandukanye, iki kigega cyifashishwa mu kubika amazi, maze abanyeshuri bakabaho neza, mu buryo bw'isuku, mu uburyo bwo kuyakoresha, n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri ni ahantu abantu bajya batandukanye, bakahakura ubumenyi butandukanye bazifashisha mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, haba iry'ingo zabo n'iry'igihugu muri rusange. Hareba kandi abarezi babaha ubwo bumenyi butandukanye, bityo abana bagakura neza mu gihagararo no mu bwenge.

Ahantu habikwa ibitabo bitandukanye abanyeshuri bashobora gukoresha basoma ndetse bashakashaka ayo makuru, akabafasha mu bushakashatsi bwabo ndetse no mu bikorwa bitandukanye by'imikoro n'ibindi.

Amacumbi y'abanyeshuri, usanga hari akabati kabikwamo ibikoresho bitandukanye by'isuku, amavuta ndetse n'ibindi. Ni ingenzi kubera ko bituma abanyeshuri bagira isuku.

Aho abanyeshuri n'abarimu bakoresha, abarimu cyane cyane bakabakoresha bandika amagambo na note bashaka guha abanyeshuri babo bityo kubasobanurira ntibigore ndetse abanyeshuri na bo bakumva neza.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro ku ishuri, usanga iyo abanyeshuri basoje amasomo yabo cyangwa nta kintu bafite cyo gukora hari ahantu bahurira bakidagadura.

Ikigo cy'amashuri akenshi usanga hari n'ikigo cy'imyidagaduro, hari kandi n'ibyatsi bitanga ubuzima bwiza ku banyeshuri. Iyo abana biga, bakagira umwuka mwiza, ndetse bakanakina bibafasha kubaho neza.

Icyumba cy'ishuri cyifashishwa cyane cyane, mu bikorwa by'amasomo, n'ibindi bikorwa bitandukanye bihuza abantu, nk'amahugurwa n'ibindi, iyo abanyeshuri biga bibafasha kunguka ubumenyi bazakoresha no mu gihe kizaza.

Ibikorwa bitandukanye byo kwigisha abantu binyuze mu ikoranabuhanga, iyo wigisha hakoreshejwe ikoranabuhanga, ni byiza kubera ko bituma abo wigisha bagira ubwenge bwiza.

Ahantu abanyeshuri bigira cyane cyane bo mu mashuri makuru na kaminuza, usanga ari aho bajya kwiyungura ubumenyi bwisumbuye ku bwo bari bafite, kwiyungura ubumenyi ni byiza kuko bituma babona akazi keza ndetse bakanakora ibintu byiza.

Inyubako ya Bengazi ni amacumbi abakobwa biga muri kaminuza bacumbitsemo. Iyo abana biga baba muri kaminuza, bibafasha gukora neza no kwiga neza, gukora ubushakashatsi neza bitonze.

Aho usanga abanyeshuri baba uhasanga ibikorwa bitandukanye, birimo ibikoresho bifashishwa, bireba nk'indorerwamo, aho bakarabira n'ahandi. Ibyo akaba ari byiza kuko bituma bagira isuku.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abanyeshuri mu gushyira mu ngiro ubumenyi baba barakuye mu masomo yabo. Ni ngombwa ko abanyeshuri iyo bamaze kwiga bashyira mu bikorwa ibyo bize kugira ngo babashe kuyungura ubwenge.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe, kirimo kandi umwana ufite mudasobwa uri gusubiramo amasomo ye mu gihe cy'ijoro. Iyo usubiramo amasomo bigufasha neza mu myigire yawe, ukaba wakomeza ukabona amanota meza.

Icyumba gishashe neza, kirimo uburiri, kirimo akabati, kirimo intebe, kirimo kandi amarido. Iyo uryama neza, ukabyuka neza, bigufasha mu myigire yawe kuko uba waruhutse neza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, arigisha abanyeshuri ibijyanye na n'amategeko ndetse n'amabwiriza akoreshwa mu mategeko Mpuzamahanga y'ubucuruzi.

Inzu y'isomero aho usanga ibitabo bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bo biyungura ubumenyi butandukanye iyo umunyeshuri asoma cyane bimufasha gukora ubushakashatsi ndetse akagira n'ubwenge.

Icyumba abarimu bahuriramo, aha niho usanga bakorera ibikorwa bitandukanye birimo gutegura amanota, gukosora imikoro baba bahaye abanyeshuri, kwigira hamwe ingamba zitandukanye zafasha mu guteza imbere abanyeshuri.

Ubumenyigiro ni ubumenyi buhabwa abanyeshuri, akenshi usanga bashyira ibyo bize mu bikorwa, birimo imyuga itandukanye, ububaji n'ibindi. Iyo umunyeshuri yiga ashyira mu ngiro ibyo yiga, bimufasha gutera imbere vuba.

Aho usanga abanyeshuri bacumbika haba hari ibitanda, akabati, hari ibikoresho byifashishwa mu kubona amazi, mu guteka amazi neza ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo ni byiza kuko bituma bunguka ubumenyi bakagira ubuzima bwiza.

Intebe zitandukanye n'ibindi bikoresho bitandukanye, hari kandi n'ibikoresho byifashishwa n'abafite ubumuga. Iyo abafite ubumuga na bo bitaweho mu burezi budaheza, bibafasha kumva na bo ari abana nk'abandi, maze bakiteza imbere.

Aho abanyeshuri batandukanye bajya kwivuriza iyo bahuriye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Akenshi hari igihe uba usanga ari malariya cyangwa izindi ndwara zitandukanye bityo bakajya kwivuza. Iyo abanyeshuri barwaye, ni ngombwa kwivuza kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Ameza n'intebe ebyiri, hari kandi n'utubuni dutatu dutandukanye, iyo ubika amazi neza, bidufasha kumererwa neza tukagira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye barakora ubumenyingiro ku bintu bitandukanye, bityo iyo umwana yiga ariko anashyira ibyo yize mu ngiro bimufasha kubaho neza bikamufasha kwiteza imbere.

Umwarimu aratanga inyigisho ku bikorwa bitandukanye. Iyo abanyeshuri biga neza, bibafasha kubona ubumenyi butandukanye. Bityo bakabukoresha mu buzima bwo hanze biteza imbere.

Inyubako yigirwamo n'abana batandukanye, iyo nyubako ikoreshwa mu gutanga amasomo no guhabwa amasomo bityo abahawe amasomo bakayakoresha mu buryo butandukanye biyungura ubumenyi.

Aho abanyeshuri bacumbika cyane cyane mu bigo by'amashuri, ni ingenzi cyane, kubera ko usanga ariho bifashisha baruhuka, ndetse bakanahifashisha mu bikorwa bitandukanye byo gusubiramo amasomo yabo.

Mu mashuri atandukanye yiganjemo ay'ayisumbuye n'aya kaminuza hagaragara inyubako zifashishwa nk'amacumbi y'abanyeshuri. Abanyeshuri baba mo ayo macumbi bifashisha baharara, bakora kandi n'imikoro baba bahawe.

Aho abanyeshuri baba usanga ari ahantu hashashe neza, hari uburiri bwiza bityo bigatuma abo banyeshuri babaho neza, birinda indwara zitandukanye zirimo agahinda gakabije n'izindi ndwara zishobora guterwa n'umunaniro.

Inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa bitandukanye biri byiganjemo ibikorwa byo guteza imbere uburezi. Aho abantu bashobora guhurira bakungurana ibitekerezo bakajya inama ku buryo iterambere ry'uburezi ryakwihuta.

Umugabo uhagaze imbere y'abigishwa, arigisha uburyo butandukanye, abana na bo bakakurikira, bakamenya. Iyo wigishije abumva, bifasha ko babona ubumenyi na bo bakazabukoresha mu gihe kizaza.

Ahantu hatandukanye hakorerwa ibikorwa bitandukanye, haba ibyo kwiga, haba ndetse n'inama zitandukanye zishobora kuhabera. Ahantu abantu bigira ni ahantu hagomba kuba hafite isuku kandi hemerera abanyeshuri kwiga neza.

Abanyeshuri batandukanye barakora ubumenyingiro ku bikorwa bitandukanye byo gupima ndetse no gusuzuma indwara zitandukanye, iyo abanyeshuri babona ahantu hahagije ho gukorera bituma bagira ubumenyi.

Haragaragara igikoresho cyifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye by'imyenda ndetse n'inkweto, hari kandi n'udukoresho bifashishwa mu gushyiramo amazi, iyo mu cyumba cy'umuntu harimo ibikoresho ni byiza kuko bituma agira isuku.

Abantu batandukanye b'abanyeshuri bariga mu buryo butandukanye bwo gushyira ibyo biga mu ngiro, iyo wiga ukanashyira ibyo wiga mu bikorwa bigufasha kugira ubumenyi buhanitse.

Mu byumba by'amashuri usanga harimo amakamera atandukanye y'umutekano, arinda kandi abanyeshuri ibikorwa bitandukanye byo gupera. Iyo abana biga neza ntawe ukopera bituma bunguka ubumenyi.

Amashuri yiganjemo aya kaminuza usanga hari aho abanyeshuri baba, abo banyeshuri bakora ibikorwa bitandukanye cyane cyane mu gihe nta masomo bafite, ibikorwa by'amasuku n'ibindi bikorwa byo kwiga ni byo baba bakora.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abanyeshuri gushyira mu ngiro ibyo bize. Iyo abanyeshuri bashyira mu ngiro ibyo bize, cyane abiga ibikorwa bitandukanye birimo ubuganga, bibafasha kunoza imyigire yabo.

Icyumba cy'ishuri, aho usanga abantu bicara bakiga, bakajya inama. Iyo icyumba ari kigari, bifasha abanyeshuri kwiga neza bisanzuye, bakungurana ibitekerezo kandi n'imyigire yabo ikoroha.

Imodoka y'ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda ifasha cyane cyane mu ngendo z'abanyeshuri batandukanye bakora ingendoshuri ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo kubajyana gukora umuganda n'ibindi.

Aho abanyeshuri bakorera ubumenyingiro butandukanye, ni aho usanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa cyanecyane mu gusuzuma ibintu bitandukanye. Iyo wiga unakora ni byo bigufasha kugira ubwenge n'ubumenyi.

Ibikorwa bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abanyeshuri, mu gushyira mu ngiro ibyo biga mu magambo. Iyo abanyeshuri bakeneye gushyira mu ngiro ibyo biga, bifashisha ibyo bikoresho, maze bagakomeza guteza imbere ubwenge bwabo.

Abantu batandukanye, b'ingeri zitandukanye, barahurira hamwe mu kwiga ibikorwa bitandukanye. Abafite ubumuga na bo ntibahejwe kuko ibitekerezo byabo ni ingenzi. Iyo abantu batandukanye bahurije ubumenyi hamwe, bibafasha kwiteza imbere.

Amafunguro agizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ibirinda indwara, ni amafunguro agaragara ko yubahirije indyo yuzuye bityo abayafata bakabaho neza bakabaho ubuzima bwiza kandi birinda ibikorwa bitandukanye byabasubiza inyuma.

Indangururamajwi ifasha abanyeshuri kumva amatangazo n'ibindi bikorwa bya kaminuza, aho usanga abanyeshuri iyo hari amatangazo akenewe gutangwa cyangwa andi makuru bakeneye kumva, ibi bikoresho bibafasha mu kuyatangaza.

Mu bigo by'amashuri ya kaminuza usanga abanyeshuri bafite aho baba, bityo bikabafasha mu myigire yabo. Amacumbi y'abanyeshuri ni ingirakamaro, kuko atuma abanyeshuri biga neza mu bushakashatsi bakora no mu byo biga.

Ikigo cy'amashuri usanga hari aho abanyeshuri baca, hari kandi n'ibiti bituma umwuka uba mwiza mu kigo, iyo ibiti bihari bikitabwaho bituma abanyeshuri bagiye kwiga neza, ndetse bakagira n'ubuzima bwiza.

Abagabo n'abagore bakuze barakoresha mudasobwa, bariyungura ubumenyi butandukanye ku buryo ikoranabuhanga rikorwamo, ibi bizatuma bashobora kumererwa neza mu mikorere yabo, bakabaho mu buryo bifuza.

Uburiri bushashe neza aho usanga iyo ugize ikibazo kijyanye no ku munaniro ugenda ukaruhuka, hari kandi intebe n'akabati byifashishwa mu kwiga, iyo wiga neza ukanaryama neza bigufasha kubaho.